Amazi yegerejwe abaturage hashyirwaho amavomo rusange, aho abaturage bazana amajerekani ku ivomo hanyuma bagakurikirana uko bagiye bahagera.

Ibuka gukurikiranya inkingo z'umwana uko amezi agenda akurikirana, bitewe na randevu kwa muganga baguhaye. Kuko buri rukingo ruba rufite umumaro warwo kandi wibuke no konsa umwana neza.

Ahari amazi haba hari ubuzima kuko akoreshwa mu mirimo myinshi itandukanye, yaba mu gutegura amafunguro, gusukura imyenda, kuhira amatungo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikenera amazi.

Ababyeyi bigaragara ko na bo bashoboye nubwo bakora ikintu umugabo yari gukora ari umwe ariko bo bagafatikanya ari babiri bakigeza aho cyagombaga kugera. Yaba guterura imifuka cyangwa n'indi mitwaro iremereye.

Zirikana gutoza abawe isuku bakiri bato bizabafasha mu buzima bwabo, igihe bagiye gukaraba intoki bakoreshe amazi meza ndetse n'isabune kandi barebe ikintu bakarabiramo kugira ngo batanyanyagiza amazi ahantu hose.

Itandukaniro ry'amazi meza ndetse n'amabi, ahataragezwa amazi meza na ho hakwiriwe gutekerezwaho ni yo yaba ari mu byaro bya kure na bo bakayabona.

Biba byiza iyo abana bitaweho, guhera bakiri batoya, bigatuma bakura hari byinshi batojwe kandi bazi, kugira ngo bizabafashe mu buzima bwabo bwose.

Inama zirategurwa zigahuriza hamwe abayobozi bashinzwe serivisi z'ubuzima kugira ngo barebere hamwe icyarushaho gutuma ubuzima bw'umuturage burushaho kuba bwiza.

Amazi mabi ni indiri y'indwara zirimo inzoka, n'izindi ndwara zikomoka ku mwanda. Hari abakiyakoresha ariko hari na gahunda y'uko na bo bakwitabwaho bagahabwa amazi meza.

Ibigo by'amashuri bigomba kwita gushyiraho amazi yo gukaraba kuko abana baba bafite ibintu byinshi bakozemo, hanyuma bakabona uko bakora isuku yo mu ntoki begerejwe amazi.

Iyo abantu bafatanyije, bagera kuri byinshi, kuko ikintu utashobora uri wenyine, bagenzi bawe bagufasha, mukagikura aho kiri, mukakigeza aho mushaka, kandi mwese mukabigiriramo inyungu.

Mu kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abatuye isi, hashorwa ibishoro byinshi muri minisiteri ndetse no mu mavuriro bibungabunga ubuzima kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ahakusanyirizwa amazi, agatunganywa kugira ngo yoherezwe mu duce dutandukanye, hanyuma abaturage bayakoreshe ari amazi meza asukuye.

Mu mashuri aho abana biga hagomba gushyirwa amazi meza kugira ngo babone ayo bakoresha, yaba gusukura amashuri cyangwa nko gukaraba intoki igihe babikeneye.

Ushobora kuba uzi ko sida yacitse byarangiye itagihari Ariko ni ngombwa yuko uzirikana ko ubuzima bwawe ari ubw'agaciro. Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye urusheho kugira ubuzima bunoze.

Amavomo agenda yubakwa hirya no hino kugira ngo ubuzima bw'abaturage burusheho kugenda neza kandi n'umuntu yaba adafite umwana atuma, akaba yajya kuyizanira kuko aba yarayegerejwe.

Inama zitandukanye zihuza abantu si ngombwa ko hakoreshwamo amazi gusa, hakoreshwa n'icyayi nacyo kigatuma abantu basangira kandi bagasangira n'ibitekerezo.

Minisiteri y'ubuzima yo mu gihugu cya Sudani y'epfo, bagakora inama bakarebera hamwe uburyo ubuzima bw'abaturage babo bwifashe, kandi bakabashakira n'ibyatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza.

Amazi tutayafite natwe ntitwabaho kuko niyo akoreshwa mu kuhira ibihingwa bidutunga ndetse no gukora amasuku atandukanye, haba ku bikoresho byo mu rugo cyangwa no ku myambaro yacu.

Buri wese yashobora kwivomera amazi meza iyo yayegerejwe, hari robine zifungurwa, hakabaho n'izindi bisaba ko ukoresha imbaraga, gusa ntabwo biba bigoye cyane aho hari icyuma uzamura umanura hanyuma amazi akaza.

Inama ikangurira abaturage kwegera abaganga, aho bakorera kugira ngo babafashe ku bibazo baba bafite by'uburwayi, aho kugira ngo bajye babigumana aho batuye mu ngo bibaviremo no kuremba.

Kwa muganga bafata amaraso kugira ngo bayapime, basuzume ko nta bundi burwayi burimo bwaba bugutera izindi ngaruka zigaragara inyuma.

Inama yahuje abashinzwe iby'ubuzima kugira ngo bakangurire bagenzi babo kwirinda icyorezo cya Murburg muri Kigali, ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane nibwo yabaye.

Hari ibice bimwe na bimwe bagikoresha amazi mabi, ku buryo uburwayi bukomoka ku mwanda bwiyongera. Niyo mpamvu amazi meza n'amabi biba bifite itandukaniro, abantu bose rero begerezwe amazi meza.

Mu rugo iwawe, ahari ubwiherero, ugomba kuhashyira kandagirukarabe kugira ngo uvuyemo aze akarabe intoki ze, yikureho umwanda.

Gahunda yo gukingira ndetse no gutanga inkingo, hari igihe iba yaragenewe n'abana batoya. Rero ni ngombwa ko uzirikana ko na bo ubuzima bwabo bugomba kwitabwaho.

Amazi arakenerwa cyane kuko atariho no kubaho k'umuntu ntabwo byashoboka, agomba gushyirwa ahantu hose kandi akaba ari meza asukuye kugira ngo abahatuye babone ayo bakoresha.

Abaturage bahurizwa ahantu hamwe, bakareberwa ko hari uburwayi baba bafite batazi kuko hari igihe umuntu aba agenda akagira ngo ni muzima, kandi hari ubwo yaba afite uburwayi butamubuza kugenda.

Ubuzima bwawe igihe wumva butameze neza erekeza kwa muganga bagufashe bagufate ibizami barebe ikibazo waba ufite, bamenye niba umutima wawe utera neza cyangwa n'amaraso yawe agenda ku kigero gikwiriye umubiri.

Umwana uko agenda akura akorerwa ibipimo, harimo kureba uburebure afite n'ingano y'ibiro afite kugira ngo barebe niba ari gukura neza atari kugwingira.

Kugira ngo harebwe niba umwana akura ku kigero gikwiriye, hari ibipimo byinshi afatwa, harimo nko gupima umubyimba w'akaboko ndetse n'uburebure n'ibiro afite ngo barebe ko bihwanye n'ikigero agezemo.

Ivomo rusange, rihurirwaho n'abatuye muri ako gace bose igihe hataragerwa ku bushobozi bwo gushyira amazi muri buri rugo rwa buri muntu.

Ahari amavomo rusange haba hagomba gukorerwa isuku, kugira ngo abaza kuhakura amazi basange hasukuye kandi bitume n'abahagenda babona yuko ahantu hava amazi hasukuye.

Amazi ava hasi cyane mu butaka azamurwa hifashishijwe pompe iyazamura hanyuma umuntu akavoma ndetse bigatuma abasha kwita ku isuku.

Ibyinshi tugeraho biterwa n'uko ubuzima bwacu, buba bumeze neza nta burwayi burimo, bityo iyo bwitaweho neza, bitera iterambere mu baturage, niyo mpamvu hashyizweho inzego nyinshi zo kubungabunga ubuzima.

Hari ibipimo bifatwa mu kureba ko umwana akura neza, kandi ko nta bundi burwayi afite. Harimo nko kureba mu mboni z'ijisho, barebe ko nta kibazo kigaragaramo ndetse no kureba uburebure ko bihwanye n'ikigero afite.

Inama mpuzamahanga zirakorwa zikitabirwa n'ingeri zitandukanye kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bw'abatuye Isi, barebere hamwe uko bagabanya uburwayi bukwirakwira hirya no hino.

Aho dutuye twese dufatikanye kunoza isuku, yaba ku myambaro, ndetse n'ibikoresho, twibuke gusukura intoki zacu kuko zikora ahantu henshi, hatandukanye kandi haba hari imyanda.

Mu bigo by'amashuri, hashyirwaho udukoresho tuyungurura amazi kugira ngo abanyeshuri babone amazi meza yo kunywa, hanyuma birinde indwara zikomoka kuba umuntu yanyweye amazi.

Inama zihuriramo abantu batandukanye, bakarebera hamwe uko ubuzima bwifashe, hanyuma hakarebwa n'icyakongerwaho kugira ngo abantu barusheho kugubwa neza.

Amazi iyo yegerejwe abaturage, bituma umwanya abana batakazaga basibywa amashuri, bajyayo, hanyuma ababyeyi bakajya kuyizanira kuko aba ari hafi.

Abato bitabweho hakiri kare kugira ngo bazakurane uburere ndetse n'ubuzima buzira umuze kuko bazaba baratojwe indangagaciro ndetse na kirazira.

Ubuzima bw'umuntu buba bugomba kwitabwaho, kandi nawe akagira uruhare mu kububungabunga, igihe wumva utameze neza, ihutire kugana ivuriro rikwegereye, bakore ibizami, barebe ikibazo waba ufite mu mubiri.

Hari igihe ujya kwa muganga bigasaba ko bakoresha inshinge kugira ngo binjize umuti mu mubiri wawe, yaba no gufata amaraso nabwo hari igihe bakoresha urushinge.

Babyeyi muzirikane kwita ku buzima bw'abana, mubajyana kwa muganga ngo bahererwe inkingo igihe ndetse ujye wibuka kureba ku ifishi ko utarengeje igihe baguhaye cyo gusubirirayo.

Ababonye amazi meza, akanyamuneza ni kose kuko abafasha gukemura ibibazo bijyanye n'umwanda ndetse bakayifashisha no mu gukora amasuku ku mibiri yabo.

Abana bato, bagomba kwitabwaho, kugira ngo ubuzima bwabo, burusheho kugenda neza, kandi nugaragaje ko afite ikibazo, yitabweho hakiri kare.

Uburwayi bw'umutima cyangwa kugenda kw'amaraso makeya mu mubiri ntago ari indwara zifata abantu bakuru gusa, kuko hari n'igihe abana batoya na bo bagira icyo kibazo, iyo agiye kwa muganga bagomba gupima bakareba uko ahumeka ndetse n'uko amaraso agenda uko bikwiye.

Ibikorwa by'ingenzi byo kwegereza amazi meza abaturage, mu bigo by'amashuri n'ahandi hose mu baturage kugira ngo barusheho kunoza isuku ndetse no gutegura amafunguro.

Mubyeyi ereka umwana wawe uko agomba gukaraba intoki ze akazikesha, kandi agakoresha n'isabune, akibuka no gusukura mu nzara na ho agakuramo imyanda iba yagiyemo.

Ahantu hari amazi meza bituma uburwayi bukomoka ku mwanda bugabanyuka, kuko bagira isuku kandi n'imyambaro bakayigirira isuku ndetse n'ayo kunywa bakayabona asukuye.

Kwa muganga haba hari intebe zabugenewe, abaje kwivuza bakicaraho, maze bagakurikirana uko bagiye baza, kugira ngo hatagira uza guca ku wundi.

Abana bagomba kwitabwaho guhera bagisamwa kugeza bagejeje ku minsi igihumbi bakitabwaho byimbitse kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'igwingira.

Kwa muganga hari ifishi batanga yandikwaho umwirondoro w'umwana, igihe yavukiye ndetse n'amazina ye n'ay'ababyeyi be kandi hakandikwaho igihe agomba kujya ajya gufatira inkingo.

Hari abantu bagenda mu ngo, babaza ubuzima babayemo uko bumeze, kugira ngo bumve ko, hari icyo banozaho cyangwa bakosoraho, k'ubwo basanzwe babamo.

Amazi meza iyo yegerejwe abaturage n'umwana mutoya umutumayo akajya kuyavoma nawe ugasigara ukora ibindi. Kandi bitera n'abana kutanywa amazi mabi.

Isuku ni isoko y'ubuzima, igihe ugiye guha abana amafunguro ibuka kubakarabya intoki kugira ngo bataza gushyira imyanda ku byo bagiye gufungura kandi nibasoza na bwo wibuke ko bagomba gukaraba intoki.

Ibiganiro bitangwa mu baturage hirya no hino, bashishikarizwa kwita ku buzima, kuko ari yo soko yo kubaho kandi akaba n'isoko y'iterambere.

Tugomba guhuriza hamwe kugira ngo turusheho kurebera icyatuma ubuzima bwacu burushaho kugenda neza kandi n'indwara zirandurwe zirimo nka malariya.

Amazi adufasha muri byinshi mu buzima bwa buri munsi, kuko niyo umuntu akoresha asukura ibyo mu rugo, cyangwa agiye gutunganya amafunguro.

Ahataragera amazi meza, ababishinzwe bazabyiteho kuko ahantu iyo hari amazi bifasha abahatuye gukora byinshi bitandukanye, aho gutakaza umwanya bajya kuyashaka kure.

Habaho imishinga myinshi ifasha abana kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza, nko kubashakira imyambaro ndetse no kubagenera ibikoresho igihe bari ku ishuri kuko hari ababa baturuka mu miryango itifashije.

Ababyeyi bagomba kwibuka gukurikirana ubuzima bw'abana babo uko bikwiye, bita ku gihe baherewe bazasubira kwa muganga gukingiza, cyangwa n'igihe ubona umwana atameze neza ukamujyana bakakurebera ko hari ikibazo kindi afite.

Amazi ni isoko y'ubuzima kandi afasha abantu gukora imirimo myinshi itandukanye, haba kuyanywa cyangwa kuyatunganyisha ibindi bikoresho byo mu rugo.

Amazi iyo ari ahantu, kandi akaba ahagije, atuma ubuzima bw'abantu bugenda neza, kuko agira uruhare runini cyane, mu buzima bwa buri munsi, kuko yifashishwa mu bintu byose, dukenera.

Ibice WASAC itaragezamo amazi, hari uburyo bwifashishwa bwo kuvana amazi kure hasi mu butaka, hanyuma bagashyiraho pompe, abantu bazajya bifashisha, uko bayizamuye amazi akaza.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, abana bagomba gukangurirwa kugana amashuri, kandi n'ababyeyi nabo bakabyitaho ndetse n'aho tubonye abatarajya ku ishuri kandi bari mu kigero cyo kwiga, tukabibwira abashinzwe kubikurikirana.

Gira ubuzima buzira umuze, igihe wumva ufite ikibazo mu mubiri gana kwa muganga bagufashe. Kuko ubu hari poste de sante zegerejwe abaturage muri buri Kagari.

Umugore igihe atwite, agomba guhabwa impuguro we n'umugabo we kugira ngo bamenye uko bagomba gukurikirana ubuzima bw'umwana uri mu nda ndetse n'igihe azaba yavutse, ibyo bazakora.

Gushinga amavuriro ntago biba bihagije kuko hari byinshi biba bikeneye kuganirirwaho, bigatuma hafatwa umwanya, inama zigakorwa, hanyuma abantu bakungurana ibitekerezo.

Ibyorezo iyo bihari, hari imyambaro abantu bakora mu bigo nderabuzima cyangwa batanga serivisi z'ubuvuzi bambara yihariye kugira ngo na bo batandura.

Imfashanyigisho igaragaza niba umuntu yaragwingiye cyangwa ari ku kigero cyiza cyo gukura, ikifashishwa n'abajyanama b'ubuzima basobanurira ababyeyi uko bagomba gukurikirana ubuzima bw'abana babo.

Aho twahuriye nta rungu kuko nyuma yo guhabwa amabwiriza cyangwa se kuvurwa no gufasha abandi kwivuza ndetse no kubagira inama z'ubuzima, duhuriza hamwe tugacinya akadiho.

Ahatangirwa ubuvuzi, hari igihe biba ngombwa ko hifashishwa amahema igihe habaye hatoya cyangwa se bagiye gutanga undi musanzu ahandi hantu.

Ikigero umwana agezemo icyo aricyo cyose aba agomba gupimwa ibiro ndetse n'uburebure n'umubyimba w'akaboko, bakareba ko imikurire ye iri kugenda uko bikwiye.

Mu gihugu hagiye hashyirwa posite do sante zitanga ubuvuzi bw'ibanze, uwo basanze badashoboye kuvura bakamwohereza ku bitaro bibakuriye bityo bigatuma abantu babona ubuvuzi hafi.

Amazi akoreshwa ari n'ayacukurwa cyane ikuzimu, akazamurwa n'imashini, hanyuma abayavoma bagakoresha icyuma bashyizeho kiyapompa kiyazamura, hanyuma abahatuye na bo bakabona amazi meza.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bantu bahuguriwe gufasha abaturage, begera abantu bakabafasha bakababwira uko bagomba kwita ku buzima bwabo.

Abaganga ndetse n'abaturage, bahuriza hamwe bakicara hanyuma bakagezwaho uburyo bagomba kubungabunga ubuzima bwabo, ndetse n'ubwabo babana nabo yewe n'abo baturanye.

Tuzirikane ko gukoresha abana imirimo ivunanye atari byo cyangwa kubateruza ibintu biremereye bibarusha imbaraga, kuko byabatera ikindi kibazo, harimo kuvunika cyangwa kugwingira.

Igihe cyose ufite umwana, ugomba gukurikirana ubuzima bwe no kumukingiza kandi ugakurikiza amabwiriza baguhaye, n'itariki kugira ngo inkingo ze zikurikiranwe uko byagenwe.

Ikigo gishinzwe gutunganya amazi ndetse no kuyakwirakwiza mu baturage hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, cyitwa WASAC, gituma amazi meza agera ku bantu bikabarinda umwanda.

Kugira ngo harusheweho kubungabunga ubuzima bw'Abaturarwanda, hashyizweho abantu bitwa abajyanama b'ubuzima, kugira ngo bajye bafasha abantu kwivuza igihe batunguwe n'uburwayi, kuko babahora hafi.

Ahashyizwe ibikorwa remezo nk'amazi, biba bigomba kwitabwaho bikabungwabungwa kandi n'abayavoma na bo bagakoresha uko bashoboye kugira ngo batayangiza ndetse ntibangize n'ibikoresho bihari kugira ngo bakomeze bagire ayo mazi.

Aho bakivoma amazi yo mu bishanga cyangwa y'ibidendezi, na bo bitabweho bahabwe amazi meza, batazavaho bariribwa n'ibikoko mu mazi.

Bagiye kugutera urushinge, cyangwa urukingo, ugomba kuba maso ukareba aho barutera, aho kureba ku ruhande nk'uko hari abajya babikora, bituma umenya neza ingano y'umuti baguteye, niba ari, wo cyangwa se n'urukingo baguhaye niba rwari rwuzuye.

Amavomo ashyirwa ahantu mu dukaritsiye dutandukanye kugira ngo abahatuye babone amazi, yaba ayo gukoresha mu rugo ndetse no kuhira amatungo.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari imishinga igeza amazi meza ku baturage, igafatanya n'igihugu. Rero ni ngombwa yuko abana na bo bagomba kugira isuku ku myambaro yabo, bakabishishikarizwa n'abo babana.

Ikigaragaza y'uko amazi ari ubuzima, aho bayabonye bajyaga bayakura kure, bakanavoma amabi, usanga ibyishimo byabarenze, bigatuma bavuga ko bagiye kujya bakora ibintu byinshi bitandukanye.

Kwa muganga bapima ibiro by'umwana kugira ngo barebe ko ibiro afite n'igihe amaze avutse bihura, hanyuma basanga ari munsi y'ibyo akwiriye kuba afite, bakagira inama umubyeyi we icyo agomba gukora.

Ku bigo by'amashuri haratunganyijwe hashyirwa ahantu abana bazajya bakarabiraho intoki zabo kugira ngo barusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ababyeyi cyangwa se abarezi, bagomba kwibutsa abana gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune kandi bagasukura mu kiganza no hagati y'intoki.

Mu bice bitandukanye by'ibyaro hashyirwaho gahunda yo gushyiraho amavomo rusange, kugira ngo abahatuye haboneke amazi meza bazajya bakoresha. Bibafashe kwirinda indwara zikomoka ku mwanda, cyane ko zibasira abana batoya.

Ntabwo serivise z'ubuvuzi zigitangirwa kwa muganga gusa, hari n'imodoka zabugenewe zisanga abaturage aho bari. Urugero nko mu karere ka Bugesera, bakabafasha ku bibazo bafite ndetse n'ibyo mu mutwe bakabagira inama.

Turusheho gukangurira abantu kwiyitaho kuko iyo abantu barangaye ntibiyiteho bibaviramo ubundi burwayi butandukanye, ariko iyo abantu bagiriwe inama bakazubahiriza uko bagomba kwitwara birabafasha.

Abaturage ndetse n'inzego z'umutekano, bafatanya kurwanya ihohoterwa, aho bashishikariza abantu gusanga ibiro byabashyiriweho bizwi nka One stop center, mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abahohotera abantu na byo si byiza kuko umuntu niyo yaba afite ikibazo cyo mu mutwe, aba agomba kwegerezwa abavuzi, akitabwaho kuko aba ari umuntu nk'abandi.

Abafite aho bahurira na serivise z'ubuzima, hari aho bagera bagatanga ibitekerezo uko babyumva ndetse n'ibyo babona bikwiriye gukosoka, kugira ngo inshingano bafite zirusheho gutanga umusaruro.

Abafite ikibazo cyo mu mutwe, na bo ni abantu kuko iyo bagihumeka baba bashobora kwitabwaho kandi ikibazo bagize kigakemuka, aho tubabonye tujye twihutira kubibwira ubuyobozi kugira ngo bafashwe.

Akuzuye umutima gasesekara no ku mubiri, ni yo mpamvu ibyishimo ari ishingiro ry'ubuzima. Aho uherereye hose gerageza gusangiza ibyishimo bagenzi bawe, aho kubuka inabi.

Abafite ikibazo cyo mu mutwe, bagomba kwitabwaho bakagezwa ahari amavuriro abakurikirana kugira ngo ubuzima bwabo bugaruke mu murongo.

Abajyanama b'ubuzima bagenda mu ngo bakabwira abaturage uko badakwiriye kwihererana n'uburwayi ahubwo bagomba kwivuza ndetse iyo hari ubwo bashoboye barabafasha bakabavura.

Umuntu ufite ikibazo cy'ihungabana, mu mutwe byivanze, atagitekereza neza cyangwa ahora yigunze, hari ubuvuzi bwabagenewe kuko hari abaganga babihuguriwe, bakuganiriza, ubuzima bwawe bugasubira ku murongo.

Hakomeje kugenda hagaragara abantu benshi, bagira ikibazo cy'ihungabana, cyangwa se ubundi burwayi, bufata mu mutwe. Bagomba kwitabwaho n'abantu babihuguriwe, kugira ngo barusheho nabo kwisanga, mu bandi bantu bazima.

Abana mu bigo bigamo, bahabwa umwanya wo kwidagadura kuko hari icyo byongera mu mikurire yabo kandi n'amasomo babasha kwiga bakabona uko bayafata kuko kuba baruhuye mu mutwe.

Ibice byose siko byateye imbere hari abagikoresha uburyo bwa gakondo busanzwe bwo gutegura amafunguro, aho bifashisha amabuye bagatera amashyiga bagakoresha n'ibiti byumye ari byo byitwa inkwi.

Uko ubuvuzi bugenda butera imbere, habaho na gahunda yo guhugura abatanga serivise z'ubuvuzi cyangwa abaganga kugira ngo bazarusheho kunoza serivise y'abaje babagana bitewe n'ikibazo.

Ibitaro byose biba bifite ibyapa bibiranga ndetse handitseho n'amabwiriza agenga ibyo bitaro, hakaba handitse n'amasaha abaje gusura ababirwariyemo bagomba kuziraho.

Amenyo yawe igihe yajeho ibizinga ukabona asa nabi kwa muganga urabagana bakagufasha bakayoza, amenyo yawe akongera akaba urwererane.

Abana bo ku mihanda na bo bagomba kwitabwaho, kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga, kuko na bo baba bafite byinshi bakora, bitaweho bagahabwa uburere bwiza.

Ibigo by'amashuri bigira imyambaro itandukanye, harimo iy'ubururu bw'ikirere cyangwa ubururu bwijimye, hari n'abacyambara kake kandi hagomba gushyirwa idarapo riranga igihugu kuko nabyo ari ibikorwaremezo.

Abana bagomba kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza, haba mu ntangiriro ndetse n'ahazaza habo bamaze gukura, bakagirirwa isuku kandi bakagaburirwa ibibongerera intungamubiri.

Abaturage hamwe na polisi bafatanyiriza hamwe gutanga amahugurwa cyangwa se inama ku bijyanye n'ihohoterwa ko ari inshingano ya buri wese kurirwanya.

Hari igihe ubona umuntu ko afite ikibazo gikomeye cyane yagize cyo mu mutwe. Ni ngombwa ko niba utashobora kugira icyo umufasha, wamutabariza ababishinzwe bakaba bamujyana akavurwa.

Abantu bose ntabwo babaho mu buzima bumwe, hari ababa mu buzima buciriritse cyane ku buryo no kubona intebe yo kwicaraho biba bigoye cyangwa no kubona aho yarara biba bigoye nk'aho usanga hari abakirara ku misambi, inzu babamo zibavira ndetse n'ibikuta ubona ko byahomotse.

Ababyeyi bashishikarizwa konsa abana babo, kugeza ku myaka ibiri kugira ngo bizabarinde ubugwingire kandi ko amashereka nta kindi kiyasimbura.

Tariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi, haba umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, ukizihizwa ku isi hose.

Abana iyo bitaweho hakiri kare bituma bagira imyitwarire myiza n'iyo bamaze gukura kandi ugasanga nta munabi bafite aho bari barishimye.

Ubuzima bugenda buhindagurika, aho usanga umuntu yari muzima ubona nta kibazo afite. Nyuma akazasanga yaje guhungabana mu mutwe bikamuviramo kwitwara bidasanzwe, numubona ujye utabaza ababishinzwe agezwe kwa muganga.

Ubuzima bwo mu cyaro burangwa n'imirimo myinshi itandukanye, harimo guhinga ndetse no kwikorera ibitunga amatungo igihe uvuye mu murima.

Ubuvuzi bwateye imbere, aho hari imodoka igenda igafasha abantu bafite ikibazo mu mutwe, kugira ngo babasange aho bari, bidasabye ko aribo babasanga aho bafite ibitaro.

Ubukangurambaga buratangwa hirya no hino mu duce dutandukanye kugira ngo abantu bibutswe ko abafite ikibazo cyo mu mutwe bagomba kwitabwaho, ndetse nabo bagomba kubajyana bakavurwa, bakagaruka mu buzima bwuzuye.

Sukura amenyo yawe, ukoresheje uburoso, ndetse na korogati, ariko ntiwibagirwe gukoresha utudodo twabugenewe, dukura imyanda hagati y'amenyo.

Ibuka gusukura amenyo yawe ukoresha udukoresho twabugenewe tuvana imyanda hagati y'amenyo, kuko hari igihe uba ufite amenyo yegeranye bigasaba yuko ukenera ikintu cyo gukuramo imyanda iba yafashemo.

Ibinezeza abana ntago biba byinshi ariko hagomba no kwitabwaho isuku itari iy'imyambaro gusa ahubwo bakita n'isuku yo mu kanwa kabo, bagakoresha uburoso ndetse na korogati bakoza amenyo neza.

Iyo ugiye kwivuza, urabanza ugahabwa umwanya, ugasobanura uburwayi bwawe uko bumeze, kugira ngo umuganga abone aho aza guhera aguha ubuvuzi.

Ahatangirwa serivise z'ubuvuzi bw'amenyo haba hari ibikoresho bitandukanye, harimo intebe y'umuganga ndetse n'iyindi ntebe umurwayi yicaraho n'ibikoresho bakoresha bareba uburwayi ufite mu kanwa.

Ereka abana uko bazajya bakora isuku yo mu kanwa, ubereke uburyo bazajya bakoreshamo uburoso kugira ngo batazajya bangiza ishinya igihe bari koza amenyo.

Amenyo yawe igihe ubona yaratangiye guhindura ibara, egera abaganga bagufashe bayagushyirireho imiti iyasukura kandi bakubwire n'uko uzajya uyafata neza.

Gukoresha uburoso ndetse na korogati ntabwo bihagije ngo isuku yo mu kanwa ibe yuzuye. Hari n'utudodo twabugenewe, ducishwa hagati y'amenyo, tukavanamo imyanda iba yasigayemo.

Abafite ikibazo cy'uburwayi bugaragara bavukanye cyangwa batewe n'ubundi burwayi bikabaviramo ubumuga, bagomba na bo kwitabwaho kuko ni abantu nk'abandi.

Abana batozwa gusukura mu kanwa habo bakoresheje amazi meza, ndetse n'uburoso na korogati, kandi bakigishwa uko bakoza amenyo badakomerekeje ishinya.

Igihe urwaye amenyo, ihutire kujya kwa muganga bagufashe kugira ngo bitazakuviramo izindi ngaruka zirenze, uko ukomeza utinda kujya kwa muganga.

Gana kwa muganga ujyane umwana wawe barebe ikibazo yaba afite, kugira ngo utazamuvura bisanzwe ugasanga ikibazo cye kiraremereye ukamujyana yararembye. Ariko kwa muganga bakurikirana ibibazo byo mu kanwa bakareba icyo bakwiriye gukora.

Hajya habaho n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bwo mu kanwa, terwa ishema no mu kanwa hawe kuko wahavuje hagasa neza cyangwa se wahagiriye isuku.

Abana cyangwa abantu bakuru bagira ikibazo cy'amenyo, igihe wumva amenyo akubabaza cyangwa ubona yarajeho imyanda ugomba kugana ivuriro bakagufasha ku kibazo cyose ufite cyo mu kanwa.

Utudodo twagenewe gusukura amenyo tugakuramo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo igihe wayozaga, cyangwa hagiyemo n'akandi kantu kakunaniye kugakuramo uradukoresha.

Hari igihe uba ufite ikibazo cy'amenyo ariko bitagaragara inyuma, bagucisha mu cyuma bakareba neza ikibazo waba ufite, hanyuma bakaguha ubufasha ukwiriye.

Ufite amenyo akubabaza cyangwa yaracitsemo kabiri, egera abaganga babyigiye bagufashe, ayo babona akwiye gukurwamo bayakuremo, ayo babona bavura na byo babigufashe.

Isuku igomba gukorwa ahantu hose yaba ku myambaro, ku mubiri ndetse no mu kanwa ntihasigare, abana bagakangurirwa gukoresha amazi meza na korogati n'uburoso, kugira ngo basukure amenyo yabo.

Zirikana ko amenyo yawe ari ay'agaciro kandi afite akamaro ndasimburwa, wirinde kuyacisha ibintu ibyo ari byo byose ubonye, kuko bishobora gutuma yangirika.

Imashini z'ubwoko bwinshi zitandukanye, ziboneka kwa muganga, zifasha abarwayi ku bibazo bafite bitandukanye, bitewe n'ibyo bagiye kwivuza.

Umuganga agomba kuba yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, karinda umunwa n'amazuru kugira ngo atandura indwara, igihe ari kuvura umurwayi.

Aho waba uherereye hose, ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, wakegera ivuriro rikwegereye, kuko mu gihugu hose hari ababyigiye kandi bafasha abafite icyo kibazo.

Igihe cyose ufashe amafunguro cyangwa mu gitondo ubyutse, ugomba kwibuka gusukura amenyo yawe kugira ngo uyarinde uburwayi butandukanye bwa hato.

Koza amenyo yawe n'uburoso na korogati, ntibihagije ngo imyanda ibe yashizemo, shaka utudodo twabugenewe, ucishe hagati y'amenyo n'indi myanda yasigayemo ivemo.

Uburwayi bwo mu kanwa bwibasira ishinya ndetse n'amenyo cyangwa ururimi, ugomba kujya kwa muganga hakiri kare kugirango ufashwe kuko hari igihe utinda ugasanga harabyimbye cyane.

Ibuka gukoresha udukoresho dukura imyanda hagati y'amenyo . Kuko iyo umaze kuyoza n'uburoso hari iba yasigayemo . Cyangwa n'iyo umaze kurya hari iba yinjiye hagati y'amenyo.

Icyuma gifotora mu kanwa hawe, hakagaragazwa ikibazo ushobora kuba ufite, y'aba ku menyo cyangwa ku ishinya, ndetse n'ibijigo, hanyuma ugahabwa ubuvuzi.

Utwuma dukoze mu buryo butandukanye twinshi twifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku bijyanye n'uburwayi bw'amenyo, dukoreshwa n'ababyigiye kugira ngo batagira icyo bangiza

Ita ku menyo yawe kandi uyagirire isuku, bizatuma utagira ipfunwe ryo guseka igihe uri mu bantu, kuko iyo umuntu asetse agaragara neza.

Mbere yo gukoresha imiti, banza urebe amabwiriza ayigenga ndetse umenye n'ingano y'iyo ugomba kunywa kugira ngo utazayikoresha nabi ntikuvure.

Hari imyenda yambarwa mu birori, iranga umuco nyarwanda, aho abagabo bambara imyitero ndetse n'imikenyero, bakambara n'ingofero zifite urugara.

Umuryango unezerewe ugera kuri byinshi kuko habaho gufatanya ndetse no kugirana inama kuri buri wese, hanyuma bigatuma umusaruro wiyongera mu muryango.

Igihe uhawe imiti, ugomba kuzirikana, amasaha yo kuyinyweraho, kandi ukanywa iyagenwe nturenze urugero, cyangwa ngo unywe mikeya ku yo wandikiwe.

Abageze mu zabukuru nabo bakora siporo kandi zikagira umumaro munini zibafasha, bagakora izijyanye n'imbaraga zabo kuko bituma babasha kugira ubuzima bwiza.

Ubuzima bwose bw'umuntu bugomba kwitabwaho bidafashe ikigero cy'imyaka afite, hari ibiribwa abantu baba bazi ko ari iby'abana bato, abakuru bo batabigenewe.

Abantu bakuze bagomba kwitabwaho, kandi abaganga bakabasobanurira neza, ikibazo babonyeye bafite mu buzima bwabo, bababwira neza kugira ngo barusheho kubyumva.

Shaka umwanya wicare ahantu ufate igitabo usome kuko bizagufasha kunguka ubumenyi butandukanye, kandi wafata n'ikayi n'ikaramu ukagira nawe ibyo wandika ukazabigeza ku bandi.

Hari ibiribwa abantu bageze mu gihe cy'izabukuru baba batemerewe gufata ndetse hari n'ibinyobwa baba batemerewe kunywa, ni ngombwa ngo umenye amafunguro utegurira umuntu mukuru.

Uburiri bugomba kuba burimo isuku, ibiryamirwa ndetse n'ibyo umuntu yiyorosa bikaba bisukuye, kandi ukibuka gushyiraho inzitiramibu kugira ngo utazarwara na marariya.

Kuganira ndetse abantu bakishima bagaseka bigomba kuranga abantu bose bahuye cyangwa se babana, kuko umunezero niwo utuma umuntu ashobora gutekereza n'ibindi bintu bikorwa byiza.

Ibuka gufungura imbuto kuko ari ingenzi mu buzima bw'abantu, yaba abana cyangwa abantu bakuru kuko abafasha kongera intungamubiri mu mibiri yabo.

Abishyize hamwe bashobora ibintu byinshi, ndetse n'iyo baba bakuze bahuriza hamwe imbaraga zabo, hanyuma bigatanga umusaruro, bakaba bagira nk'ibyo baboha kandi byagera ku isoko bikagira umumaro.

Imyaka yose waba ufite, ugomba kunezerwa, kuko ibyishimo birinda uburwayi bukomoka bw'umuntu ahorana umunabi. Rero dukomeze turusheho kunezerwa.

Abageze mu myaka y'izabukuru nabo berekwa siporo bakora kugira ngo ingingo zabo zitarushaho guhinamirana kandi n'amaraso ajye atembera mu mitsi yabo neza.

Abantu babana mu rugo bagomba gutegura amafunguro bagasangirira hamwe kandi bakaganira buri wese agatega undi amatwi, aho kugira ngo umwe ahugire mu bye n'undi ahugire mu bye.

Abageze mu kigero cy'izabukuru baba baratakaje imbaraga, ku buryo hari imirimo myinshi baba batakibasha kwikorera, biba bisaba ngo hagire umuntu ubitaho agire ibyo abafasha bakeneye.

Siporo ntabwo ari iz'abato gusa n'abakuru ndetse n'abakambwe barazikora, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumererwa neza, bibarinde indwara zirimo kugagara kw'imitsi n'ibindi.

Abantu bafite abakuze bafite uburwayi baba bagomba kubitaho kuko hari ubuvuzi bahabwa kandi bakongera bakaba bazima.

Umuryango ni uwo kwitabwaho kuko niho haba hazava abayobozi ndetse n'abandi bashinzwe serivisi zitandukanye mu buzima bwa buri munsi, ni ishingiro rero ryo gutangira gutoza abantu.

Hari ibipimo bifatwa uko ugiye kwa muganga, harebwa niba umutima wawe utera neza ku kigero gikwiriye ndetse kugira ngo babone uko baguha indi miti, bamenye uko umutima wawe ukora.

Babyeyi cyane ab'abagabo muzirikane kwita ku bana banyu kuko nabo baba babakeneye, mubahe umwanya mubaganiriza, mubakinisha ndetse munabasetsa.

Abahinzi bagirira igihugu akamaro kuko abantu dutungwa n'ibyavuye mu buhinzi, niyo mpamvu bigomba gushyirwamo imbaraga kugirango umusaruro ube mwinshi kuko n'abantu bagenda biyongera.

Abantu ntabwo bakwiye kugaragarizanya urukundo, igihe bakiri bato gusa, bamara gukura ugasanga rwarakendereye, imyaka mwaba mufite iyo ari yo yose, muba mugomba kwerekana ko mwitananyeho hagati yanyu.

Niba uri mu rugo cyangwa se ukaba udakunze kuhaba, gerageza ujye ushaka umwanya wicarane n'umwana muganire, mukine kuko bigenda byagura ubwonko bwe.

Kwita ku bantu si ukubaha ibiribwa gusa, ugomba no kureba ibindi bikoresho harimo ibyo kwiyorosa cyangwa ibyo kwisasira kugira ngo aho barara batazajya bicwa n'imbeho.

Hari utwuma duterurwa mu biganza kugatuma imitsi igororoka kandi buri wese ku mbaraga yaba afite niyo yaba akuze ahabwa ibijyanye n'imbaraga ze.

Akira abaje bakugana neza, ubaha serivisi inoze, ubaganiriza kandi ubasubizanya akanyamuneza kugira ngo barusheho na bo kubona yuko ubuzima barimo bwahinduka bakaba bazima.

Ibikoresho watunga nawe ukareba ko umubiri wawe ukora neza, niba ikigero cy'isukari ufite mu mubiri kiringaniye ndetse n'umuvuduko umutima wawe utereraho niba utari hasi cyangwa ngo ube hejuru.

Siporo ntago ikorwa n'umuntu wambaye amatiriningi gusa, n'indi myenda waba wambaye n'imyaka waba ufite niyo waba uri mukuru ukora siporo hanyuma ukaba uhaye ubuzima bwawe urukingo.

Abakuze nabo ubuzima bwabo bugomba kubungwabungwa kandi igihe umuhaye imiti ukamusobanurira neza, kuko hari igihe baba bafite n'ikibazo cyo kwibagirwa ndetse ukaba wakandika no kuri iyo miti umuhaye uko azajya ayifata.

Twite ku buzima bwacu kuko iyo umuntu afite amagara mazima, agira n'umunezero kandi agapanga n'imishinga izamuteza imbere, akayishyira no mu bikorwa.

Siporo n'ingenzi mu buzima ntuzayiburire umwanya. Imyaka yose waba ufite wakirukanka ariko ukagendera ku muvuduko ujyanye n'imbaraga ufite.

Abantu bakuze na bo bakenera telefone, bagomba kwigishwa uburyo bazajya bazikoresha kugira ngo bagire ibyo bakemura bifashishije ikoranabuhanga.

Nyuma yo gusoza akazi fata umwanya ugire umukino ukina kugira ngo uruhure mu mutwe wawe, haba dame ndetse n'indi mikino itandukanye, hari n'ibisoro, imikino ikundwa n'abantu bakuze.

Uwari Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije, ahererekanya ububasha na mugenzi we wamusimbuye ariwe Sabin Nsanzimana kuri uwo mwanya w'Ubuminisitiri.

Ibiheri bishobora kuza ku mubiri wawe cyangwa hakazamo utuntu tubyimbisha uruhu, hakazamo utuntu twirekamo tumeze nk'amazi, ihutire kugana ubuvuzi hanyuma bamenye ikibazo ufite bitakuviramo izindi ngaruka zikomeye.

Ababyeyi bita ku bana babo, guhera bakiri bato kugeza igihe bakuze, babaha ibyankenerwa bya buri munsi, kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Kugira ngo harushweho kurwanwa igwingira ku bana, ntago umwana yitabwaho igihe yavutse, kuko hari n'igihe bigaragara ko agwigira akiri mu nda ya nyina, agomba rero kwitabwaho agisamwa.

Abaganga baba bambaye ibintu bibarinda igihe bagiye gutanga ubuvuzi nko kubaga umuntu kugira ngo bataza kwandura na bo ugasanga bararwaye.

Ibihugu bitandukanye byo muri Afurika, bihurira ku kibazo cyo kutabona ubuvuzi buhagije ku kibazo baba bafite ndetse no ku igwingira ry'abana na bwo ntibabone ubufasha bufatika.

Habaho na minisiteri y'ubuzima kugira ngo ubuzima bw'abenegihugu burusheho kubungwabungwa no kwitabwaho, kuko iyo umuntu ari muzima iterambere ririhuta.

Gahunda yo gufata inkingo za Kovide cumi n'icyenda, zirizewe kandi buri wese agomba kurufata kugira ngo abungabunge ubuzima bwe n'ubw'abandi, atazagira abo yanduza cyangwa nawe bikamuviramo izindi ngaruka.

Abana baba bagomba kwitabwaho guhera basamwe kugeza igihe barengeje igihe cyo kugwingira, kugira ngo bitazabaviramo kugwingira mu ntekerezo ndetse no mu mikurire yabo.

Gahunda yo gukangurira abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe kandi n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, arabishyigikira kandi n'umudamu we ari we Jeannette Kagame na we akagira impuguro atanga.

Hari amabwiriza agomba kwitabwaho kugira ngo icyorezo cya Korona gihagarare, harimo gushyira intera ihagije hagati yawe na mugenzi wawe, kwirinda gusuhuzanya ndetse no gukaraba kenshi neza intoki n'amazi meza n'isabune.

Abaganga bahuriza hamwe bagafatikanya kugira ngo barebe ko batabara ubuzima bw'umuntu urwaye kandi bakigisha n'abandi kugira ngo igihe batagishoboye akazi bazabone ababasimbura.

Ubuvuzi bw'amaso na bwo burakorwa, aho umuntu bamubaga ijisho, bagakuramo uburwayi bwari burimo, akongera akareba neza ntakibazo.

Udukingirizo dufasha abantu kutandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi tugatuma n'abadashaka gutwara inda batabiteguye batazitwara.

Kwa muganga hashyirwa ibitanda byinshi kuko hari igihe hakirwa abarwayi benshi bakeneye kujya mu bitaro, hagashyirwaho n'amarido abakingira.

Mu karere ka Nyarugenge naho haba ibitaro byakira abarwayi, igihe ukorera cyangwa se ufatiwe mu mujyi, naho wanyarukirayo hanyuma ugahabwa ubuvuzi.

Gutanga amaraso ni byiza, kuko afasha abarwayi igihe badafite ayahagije kwa muganga barayabongerera ubuzima bwabo bugakomeza kuba buzima.

Ibitanda bikoreshwa kwa muganga, biriho utuntu turinda umuntu kugira ngo ataza guhanuka, kuko hari igihe umuntu yigaragura arwaye ugasanga aguye hasi.

Ibikoresho bishyirwa mu nyubako zitangirwamo ubuvuzi, biba byihariye, kandi haba harimo n'ahashyirwa imyanda yabugenewe, ikoreshwa ku bisagutse kwa muganga.

Abafite ubumuga bahabwa utugare, tubunganira mu ngendo zabo kugira ngo biborohere, igihe hari aho bakeneye kujya cyangwa basubiye kwa muganga kwifuza.

Ibitanda byifashishwa mu gihe hari umurwayi urembye, ukeneye kuguma kwa muganga kugira ngo arusheho kwitabwaho, biba biriho n'amashuka kandi agahindurwa uko yanduye kugira ngo umurwayi arusheho kwitabwaho.

Mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, hubatswe ibitaro by'akarere kugira ngo hajye hatangirwa serivisi ku baje bagana ivuriro, kuko naho hunganiye n'ibindi bitaro nka CHUK.

Ahubatswe amavuriro haba hatandukanye n'izindi nyubako kuko ho haba hari byinshi bagomba gushyiramo bitewe na serivisi batanga, harimo ibitanda ndetse na supanete zirinda ababiryamyeho kuribwa n'imibu.

Mu rwego rwo kunganira amavuriro ya Leta, hagiye hubakwa andi mavuriro yigenga kugira ngo abantu babone ubuvuzi kuko abantu bakomeje kuba benshi.

Umubyeyi ufite umwana agomba kumwitaho kugira ngo atagira ikibazo cy'ubukonje, agafubikwa bihagije kandi n'igihe ubona ko afite icyokere ukamugabanyiriza ibyo wakubitse.

Ibitanda bishyirwa aho abarwayi bavurirwa kwa muganga, bitandukanye n'ibyo tuzi tugira iwacu mu rugo kuko byo biba byihariye kuko byegurwa cyangwa bikarambikwa, bitewe n'ikibazo umurwayi afite kandi bikanasunikwa.

Ahatangirwa ubuvuzi abana bashyirwa ukwabo ntawo ibitaro bavurirwamo ndetse n'ibitanda bararaho babivanga n'iby'abantu bakuru, kuko abana baba bafite ubudahangarwa bukeya.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gikora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'abaturarwanda, burusheho kugenda neza, harimo kubaka inyubako nyinshi zitandukanye zitanga serivisi z'ubuzima.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hazwi nko kwa muganga, bafata umwanya bakicara bagasobanurira abaje babagana kugira ngo bamenye neza serivisi babaha n'umumaro wazo kandi batazajya bakoresha n'imiti bahawe nabi.

Hari uburwayi buba butagaragara inyuma ku mubiri w'umuntu ariko iyo acishijwe mu cyuma haboneka uburwayi ashoboka afitemo imbere mu mubiri, hanyuma agahabwa imiti.

Intebe zishyirwa ahatangirwa serivisi kugira ngo abaje bagana ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima babone aho bicara, bategereje guhabwa ubuvuzi.

Mu rwego rwo kurushaho gutanga serivisi z'ubuzima mu Gihugu cy' u Rwanda, hakomezwa hubakwa inyubako mu duce dutandukanye, kugira ngo abahatuye bajye babonera ubuvuzi igihe.

Kwa muganga haba hari imashini nyinshi zitandukanye, kuko hari n'iziba zitunganya amaserumu, yongerera imyunyungugu abarwayi kugira ngo bataremba.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, cyubatse mu buryo bugezweho, ku buryo cyakira abaje kuhivuriza, bagahabwa serivisi kandi zinoze, kuko cyaravuguruwe kiba kinini.

Kuvura ababyeyi n'abana ntabwo bihagije, hari n'igihe bashyiraho icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi kugira ngo bongere bashishikarize abantu ko bagomba kwitabwaho.

Inyubako nziza zibereye ijisho kandi zikomeye zubatswe kugira ngo zijye zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hanyuma ubuzima bw'abaturarwanda burusheho kugenda neza.

Ahazwi nko kwa Nyirinkwaya, ibitaro La Croix du Sud, hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, abakoresha ubwishingizi barabegera bagahabwa ubuvuzi ku kibazo bafite.

Kuba hafi y'umurwayi ni inshingano z'umuvuzi kugira ngo igihe hari icyo akeneye, akibone amasaha atararenga. Nk'amasaha yo gufatiraho imiti ageze cyangwa kongererwa umwuka.

Inyubako zabugenewe zo gutangirwamo serivise z'ubuvuzi, ziba zirimo ibikoresho bitandukanye kandi harimo abantu bahakora isuku ku buryo buhoraho kugira ngo hatazaboneka uburwayi bukomoka ku mwanda.

Ibitaro by'Akarere ka Nyanza, biherereye mu mujyi wa Nyanza, ku muhanda ujya ku cyuzi cya Nyamagana, ni ho wakwivuriza ufite ikibazo cy'uburwayi.

Amabwiriza agenga ibitaro ndetse n'aho serivisi zigenda zitangirwa zitandukanye, amanikwa ahagaragara kugira ngo uje agana ibitaro amenye aho abariza atayobaguritse.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha giherereye mu Karere ka Rusizi, hegerejwe naho abaturage kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi kandi ku gihe.

Imashini zo kwa muganga zishyirwamo imiti, zigafasha abarwayi ndetse igihe bafite ikibazo cy'ubuhumekero, hari n'amaserumu bahabwa kugira ngo abongerere amazi mu mubiri.

Kwa muganga hari ahaba hari ibitanda kuko hari ababa bafite uburwayi butuma baba bagumye kwa muganga kugira ngo barusheho kwitabwaho, biba bifite isuku kandi hari n'amarido akingiriza buri gitanda.

Kwa muganga harangwa n'isuku, yaba aho bakorera ndetse n'abahakorera kandi bagira imyambaro itandukanye bitewe na serivisi bagiye bakoramo kugira ngo uje abagana abashe kubatandukanya n'abandi.

Ubuzima bugomba kubungwabungwa, kuko ni yo shingiro ry'iterambere, iyo umuntu arwaye agomba kwihutira kujyanwa kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi bitaba byanamuviramo kuremba.

Ahubatswe inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haba hari n'idarapo ry'igihugu kandi hakaba hari icyapa kiranga ahatangirwa buri serivisi itangirwa aho ngaho kugira ngo uje ahagana atayoba.

Ibitanda bikoreshwa mu gutanga ubuvuzi, usanga bikozwe ku buryo iyo ukeneye kwegura umurwayi, hari aho ukora kikazamuka, hanyuma ukabona uko umufasha bitewe n'ikibazo afite.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisari biherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru bitanga serivise z'ubuvuzi kuko hari n'abava mu mahanga bakaza kuhivuriza.

Inyubako zubakiwe gutangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ziba zubakanwe isuku kandi harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse n'ibyazimya igihe hagaragaye inkongi y'umuriro.

Umunzani ukoreshwa kwa muganga kugira ngo bapimwe ibiro umwana afite barebe niba ari gukura ku kigero gikwiriye hanyuma nibasanga bidakwiye bashishikarize umubyeyi we kumwitaho cyane.

Imashini z'ubwoko bwinshi zitandukanye ziba kwa muganga kugira ngo zirusheho gutanga ubuvuzi bwizewe bitewe n'ikibazo ufite, ku bakenewe kubagwa kandi bahabwa ndetse naho kuruhukira igihe ugize ikibazo kuko haba hari ibitanda.

Abakora kwa muganga cyane ab'igitsina gore bagomba gushaka ibyo bapfukisha mu mutwe kugira ngo bibafashe gukurikirana akazi kabo neza, imisatsi itababangamira.

Inyubako zo kwa muganga, zishyirwamo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe ndetse n'ibitanda basuzumiraho abarwayi, biriho na matera n'imisego

Ahubakwa amavuriro ntabwo hagomba gushyirwa inyubako gusa, hitabwaho no kuhashyira indabyo ndetse n'ubusitani bubereye ijisho kugira ngo bujye bwongera umwuka mwiza ku bahagenda.

Ubwiza ni ubuzima. Igihe ukeneye imiti ufite ubwishingizi egera farumasi hanyuma bagufashe kuguha imiti waba ukoresha sanlam cyangwa RSSB na bwo baragufasha.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, na cyo kirahari kugira ngo gifashe abahatuye, guhabwa serivise z'ubuvuzi, igihe bagize ikibazo cy'uburwayi.

Ahari amavuriro haba hari inyubako nziza zifite isuku kandi n'izubatswe kera, zigenda zivugururwa kugira ngo isuku yaho ikomeze ibe ihagije.

Inyubako zo kwa muganga zubakwa mu buryo bwihariye butandukanye n'izindi, kuko haba hari ibyumba byihariye bizatangirwamo serivisi z'ubuzima nk'ahazabikwa amaraso ndetse n'ibindi.

Umubyeyi ugiye kwa muganga kubyara agomba kwitwaza imyambaro yambikwa uruhinja kandi abaganga na bo bakamufasha gukurikirana ubuzima bwe n'ubw'umwana.

Ahabikwa amaraso ndetse n'inshinge, zifashishwa mu gufata ibizamini, haba hagomba kuba hameze neza kandi hafite isuku ndetse ntacyapfa kuhahungabanya.

Amavuriro ari kugenda yubakwa mu buryo bugezweho, kugira ngo hajye hatangirwa serivise z'ubuvuzi zigiye imbere, kuko hari indwara zajyaga zijya kuvurirwa mu bihugu by'amahanga.

Ubuvuzi bukomeje kongererwa imbaraga, aho ugira ikibazo yaba mu mbavu cyangwa imbere mu mubiri, ugacishwa mu cyuma, hanyuma abaganga bakareba neza ikibazo waba ufite.

Ikibazo cy'uburwayi bw'amaso ku bo cyarembeje begera kwa muganga, bagahabwa ibirahure bibafasha kureba igihe bafite uburwayi bukeneye kurebera mu ndorerwamo.

Ibitaro bya Butaro biherereye mu Karere ka Musanze na ntara y'amajyaruguru mu Gihugu cy'u Rwanda, hatangirwa serivise z'ubuvuzi kugira ngo abahari nabo babashe kwitabwaho.

Aho basuzumira ahantu, haba hari igitanda cyabugenewe. Kigashyirwaho ishuka kandi bayihindura uko bagiye kwakira umuntu, kugira ngo uwayikoresheje mbere ataba afite uburwayi bwakwaduza ugiye kuyikoresha ukurikiyeho.

Icyumba cyihariye, kirimo intebe nziza, kugira ngo umuyobozi uyobora ibitaro, ajye abona aho yakirira abashyitsi baje gusura ivuriro.

Ibitaro bya ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ukeneye ibindi bisobanuro wabandikira uciye ku gasanduku k'iposita mirongo itanu na karindwi.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga harimo intebe ndetse n'ameza, hakaba n'imitako imanikwa aho bakorera kugira ngo ibe yakwifashishwa mu gusobanura serivisi itangirwa aho hantu.

Abaganga bakorera ku mavuriro atandukanye bakomeza kwita ku barwayi kuko hari n'ababa baje bakahaba bari mu bitaro kugira ngo bakomeze kwitabwaho, hanyuma aho barara bakabashyiriraho n'inzitiramibu.

Inyubako zishinzwe kubika neza ibikoreshwa kwa muganga, harimo nk'amaraso ahabwa abantu igihe ayo bari bafite bari kuvurwa abaye makeya cyangwa se no mu mubiri wabo, basanze bafite ikibazo gikenera amaraso.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, zishyirwaho n'ahakirirwa abantu kugira ngo uhageze amenye aho agomba kwerekeza kugira ngo ahabwe ubuvuzi.

Hari ikiba ari ingenzi hagati y'umurwayi ndetse n'umuvura, kubanza gutega amatwi akumva neza ikibazo umurwayi uje amusanga afite, kugira ngo abone aho ahera amuha ubuvuzi.

Ahantu hose hubatswe ivuriro cyangwa ikigo nderabuzima hagomba kwitabwaho inzu y'ababyeyi, kuko umubare munini ugana amavuriro aba ari uw'ababyeyi.

Imyubakire yubakwa kwa muganga, iba itandukanye n'iyindi, hari ahagomba gushyirwa urumuri rwinshi kuko ruba ruzakenerwa cyane mu gutanga ubuvuzi.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hashyirwa n'inzu yihariye y'ababyeyi izwi nka materinite kugira ngo bajye bafasha abaje kubyara cyangwa abafite izindi ndwara zirebana n'ababyeyi.

Ivuriro aho riva rikagera hagomba kurangwa n'isuku yaba ku nyubako ndetse n'ibikoresho bishyirwamo, haba amarido cyangwa ibitanda na matera bihashyirwa.

Gana kwa muganga barebabe ubuzima bwawe niba buhagaze neza, niyo wowe waba wumva ko utarwaye, kuko hari ibindi bipimo bafata nko kureba niba umutima utera neza, cyangwa se niba amaraso agenda neza mu mubiri.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bigaragara kwa muganga, harimo n'imashini zifasha kureba uburwayi bw'imbere mu mubiri w'umuntu kugira ngo na bwo abuvurwe.

Icyapa kiba kimanitse kwa muganga, hanyuma hakandikwaho serivisi zitangwa n'aho zigiye ziherereye kugira ngo uje abagana amenye aho abariza bitamugoye.

Mu nyubako zitangirwamo ubuvuzi byitabwaho n'utwapa twerekana amerekezo ndetse hashyirwamo n'imitako kuko nayo irushaho kuhongerera ubwiza n'isuku.

Ibigo nderabuzima n'amavuriro byarongerewe mu gihugu, hashyirwaho na posite do sante zibyunganira muri buri kagari kugira ngo harusheho gutangwa serivisi z'ubuzima.

Guterura ibyuma na byo ni siporo ariko bitewe n'ibiro ufite cyangwa n'urwego ugezeho rwo gukora siporo, hari ibiro uheraho uko ugenda iminsi uyongera na byo ukagenda ubyongera.

Ahazwi nko kwa NYIRINKWAYA ibitaro byitwa ''La croix de sud'' biherereye i Remera inyuma yo kwa Rando, batanga ubuvuzi kandi bwiza kuko uje abagana wese baramufasha.

Ibibazo by'uburwayi butandukanye, bigenda byataka imibiri y'abantu, mu Rwanda bagerageza gukora ibishoboka, haba ibitaro by'amaso ndetse n'ibindi bikurikirana ubuzima bw'umuntu, bikubakwa kugira ngo abafite icyo kibazo babone uko bavurwa.

Farumasi nyinshi zikorana n'ibigo by'ubwishingizi bw'ubuzima, rero iyo ukeneye imiti uragenda ukayifata ukishyurirwa amafaranga mu bwishingizi bugutangira nawe ugatanga ayasigaye. Wanahamagara kuri nimero zeru ukarindwi iminani, ibiri mirongo itanu na gatanu, mirongo irindwi, mirongo icyenda.

Ubuvuzi bukomeje kurushaho gutera imbere, aho hari abaganga basanga abarwayi mu ngo bakabafasha kugira ngo barusheho na bo kumererwa neza.

Ibikoresho bigaragara mu mavuriro, haba higanjemo ibitanda byakirirwaho abarwayi, aho bagomba gukarabira ndetse n'aho bagomba gushyira imyanda habugenewe.

Ibikorwa byo kwagura no kongera inyubako zitangirwamo ubufasha ku buvuzi, ziri gukomeza kongerwa hirya no hino kugira ngo ubuzima burusheho kwitabwaho.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari n'ahashyirwa sare kugira ngo igihe habaye nko guhuza abantu benshi, babone aho bunguranira ibitekerezo.

Mu Rwanda hashinzwe ikigo cyitwa isange wani sitopu senta, gikorera ahantu henshi hatandukanye kugira ngo bajye batanga ubufasha ku bantu bahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ufite, hari icyumba uba uri kuvurirwamo, ariko ugakurikiranwa n'abaganga barenze umwe kugira ngo naza gukenera igikoresho, abone ukimuhereza atiriwe ahaguruka.

Abaganga barangwa no gukorera hamwe kandi bagakoresha ingufu zihagije, ukeneye kwivuza gana ivuriro Legacy, rikorera cumi na gatanu ni mu karere ka Kicukiro.

Umwana igihe atameze neza, ugomba kwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo yaba afite, bitaravamo kuremba bigatuma atakaza umubiri mu buryo bwihuse kandi bakabaye bamufasha mbere.

Ahabikwa imiti, haba hari utuyetajeri twabugenewe two kuyibikamo kandi buri cyiciro cy'umuti kigashyirwa ukwawo kugira ngo bitivangavanga.

Icyumba gitangirwamo serivisi zigendanye n'isuzuma ku barwayi baje kwivuza kuko hari ibyo baba bagomba gusuzumwaho ngo barebe ikibazo bafite.

Aho amavuriro akorera, hashyirwa ahakirirwa abaje kwivuza kuri icyo kigonderabuzima, cyangwa ku bitaro, hanyuma akaba ariho utangira umwirondoro wawe, ukayoborwa ahandi ukurikizaho.

Umuti wa mbere ufasha umuntu, ni ukumubwira neza kandi ukamusekera. Bituma abona y'uko aje kwivuza ku muntu uri bumufashe, bikamugirira umumaro. Igihe cyose uvura, gerageza kubwira abakugana neza, ubereke urukundo.

Wanywa amazi unywesheje ikirahure cyangwa ugakoresha icupa, gusa ni byiza iyo ukoresheje ikintu gifite ingano izwi, kugirango umenye ingano yayo unywa ku munsi.

Fata imbuto zongere intungamubiri mu mubiri wawe kandi ukoreshe n'imboga harimo amashu y'umweru ndetse n'amashu y'icyatsi, pavuro z'umuhondo ndetse ni z’umutuku.

Hari ubwo uba uri gukora imyitozo ngororamubiri, ukumva hari igice kimwe kitari gukora neza cyangwa se gihuye n'ikibazo. Biba byiza wicaye ukareba impamvu hanyuma ukajya kwa muganga.

Kora siporo izatuma umubiri wawe urushaho kuba neza kandi bikurinde uburwayi bwa hato na hato, gusa igihe urwaye cyangwa wumva ufite ikibazo mu mubiri byaba byiza ukoze siporo ari uko ubanje kwegera abaganga bakareba niba na byo bitakongerera ikindi kibazo.

Amazi agenewe kunywa ku munsi, biba byiza iyo ufite icyo uyapimisha, kugira ngo utanywa ayarengeje urugero cyangwa se, ntugeze ku gipimo cyayo ukwiriye kunywa.

Umuryango kuruwa ruje ufasha abantu ni ingenzi kuko ufasha abahuye n'ibibazo kandi bakabaha ubutabazi bw'ibanze kuko baba barabihuguriwe.

Imiti ishyirwa ahagize ikibazo ku mubiri w'umuntu, cyane aho ingingo zihurira, hanyuma bakaguha iyo urambikaho kugira ngo ikugabanyirize ububabare.

Mu byo duhaha, tujye tuzirikana yuko harimo imiti itandukanye, turebe ko hatabuzemo tungurusumu, pome, ishu ry'icyatsi, inyanya, pavuro y'umuhondo ndetse na voka.

Igikoresho cyifashishwa mu gukura umuntu aho yavunikiye cyangwa yagiriye ikindi kibazo cy'uburwayi atabasha kwigenza, bityo bigatuma babona uko bahamukura batamutwaye mu biganza.

Ahakorerwa siporo haba hari abaganga batanga ubuvuzi bw'ibanze mu gihe hari ukora siporo uhuye n'ikibazo kugira ngo bamufashe byihuse.

Usabwa kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo uhabwe ubuvuzi igihe ugize imvune, kuko bituma bagufasha babanje kureba ikibazo ufite icyo ari cyo cyose.

Siporo si izikorerwa mu mihanda cyangwa ahubatswe za jimu gusa, hari n'izo wakorera iwawe mu rugo, ku buriri kandi na zo zikagirira umumaro uhagije umubiri wawe.

Tuzirikane ko ikinyobwa cy'amazi ari ingenzi ku buzima bwacu, haba gukora isuku inyuma umuntu ayoga cyangwa no kuyanywa kuko byose bigirira umumaro umubiri.

Uturindantoki dukenerwa ku bantu benshi batandukanye, bitewe n'ibyo bakora kugira ngo birinde intoki zabo zitangirika nk'iyo baterura ibyuma cyangwa ibindi bintu byangiza mu ntoki.

Mu buzima bwawe niba uhura n'ikibazo cy'amavunane, ntibizongera nutangira gukora siporo kandi ugahera ku zoroheje bitewe n'uko aba ari bwo ukizitangira kandi ukibuka no kunywa amazi.

Imyitozo ngororamubiri isaba ko uba ufite n'umuntu ugutoza, ukurusha kugira ngo akwereke umuvuduko ugomba kugenderaho n'uko uzajya uwongera uko iminsi igenda yiyongera.

Igihe ukora siporo ugomba kuzirikana ko hari imirire ugomba gukurikiza, kuko hari imbaraga nyinshi uba wakoresheje, niyompamvu uba ugomba gushaka uko uzigara, ukita ku biribwa byiganjemo imbuto.

Hari siporo umuntu akora ari wenyine mu rugo bikamufasha kugorora umubiri we igihe atabonye umwanya wo kujya gukorana n'abatoza.

Ahakinirwa umupira w'amaguru haba hari abaganga biteguye gufasha umukinnyi wagirira ikibazo mu kibuga. Haba mu myitozo cyangwa mu mikino ibahuza n'abandi bakinnyi bagenzi babo.

Kuruwa ruje ni umuryango utabara abababaye, niyo mpamvu ahabereye imikino cyangwa ahahuriye abantu benshi ubasanga bahari. Kugira ngo baze gufasha ugize ikibazo bitunguranye.

Buri munsi ugomba kunywa amazi kandi meza asukuye kuko afasha umubiri wawe guhehera kandi agatunganya n'uruhu kuko no mu mubiri asohora imyanda bitagoye.

Kubera ko ubuvuzi bugenda burushaho gutera imbere hakagira indwara zimwe na zimwe zisuzumirwa mu byuma bitandukanye, hari n'icyo bisaba ko hajyamo umuntu wese kugira ngo arebe ikibazo afite imbere mu mubiri.

Egera impuguke mu by'ubuganga bagufashe mu kibazo ufite, igihe wavunitse cyangwa hari ubundi burwayi wumvishe mu ngingo zawe, nko mu ivi.

Ahakorerwa siporo zitandukanye, hagomba kuba hari n'abaganga, kugira ngo baze gufasha umuntu ugize ikibazo, bamuhe ubutabazi bw'ibanze, nibabona bikomeye bamwohereze kwa muganga.

Ibikoresho bitandukanye biba biri kwa muganga, bireba bigasuzuma niba umutima w'umuntu utera neza cyangwa se niba amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse niba n'ibihaha bikora neza n'umwuka w'umuntu niba ahumeka uko bikwiye.

Hifashishijwe ikoranabuhanga, abaganga bahabwa amabwiriza cyangwa se bakagira ibindi bahugurirwa kugira ngo barusheho kunoza umurimo bakora.

Insimburangingo zitandukanye haba amaboko cyangwa ibirenge ndetse n'akaguru kose zigenda zikorwa kugira ngo zunganire abafite ikibazo.

Imipira ikoreshwa mu mikino itandukanye, harimo uw'amaguru,, uwa basiketiboro, vore ndetse n'uwa rugubi n'ibindi bikoresho bambara bibarinda kwangirika iyo bari gukina.

Uburebure ufite cyangwa ibiro ufite bijyana n'amazi ugomba kunywa kuko harayo uba utagomba kurenza bitewe n'ibiro ufite kandi igihe ukora siporo ukibuka gukoresha n'imbuto.

Ubuvuzi bubamo ibice byinshi, hari n'ubwo baguha ibintu bikonje biri mu ishashi ngo ushyire aho uri kubabara cyangwa aho wavunitse nabyo bikakubera umuti.

Iyo wavunitse mu ngingo, kwa muganga hari ibyo baguhambiriraho bigufasha kugira ngo aho hantu hadakomeza kunyeganyega uburwayi bukiyongera, uko ugenda ukira bakagenda babikuraho.

Mu mikino waba ukina yose, hari igihe wahura n'ikibazo ukagira imvune kandi ukiri mu kibuga. Niyo mpamvu haba hari abaganga bagomba kugufasha, bakaguha ubuvuzi bw'ibanze.

Igihe ugiye gukora siporo reba aho uyikorera ko hari umwuka uhumeka mwiza kandi uhagije kugira ngo bigufashe hato utahandurira izindi ndwara.

Ahantu umuntu avunitse hose agomba guhita yihutira kujya kwa muganga, ntarebe ba bantu bakanda kuko bashobora kongera ikibazo wagize amagufwa akaba yajya mu mwanya utari uwayo.

Abatanga serivisi z'ibanze z'ubuvuzi ahakorerwa siporo, baba bafite imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye ariko babona ikibazo umuntu agize kirenze ubushobozi bwabo, bakamwohereza ahandi.

Amazi ni ingenzi kuko umuntu wese aba agomba kuyanywa, yaba ari gukora siporo, gusa akaba makeya kuko iyo unyweye menshi nanone ukiri muri siporo akubuza gukomeza gukora k'umuvuduko wakoragaho.

Mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, hari igihe umuntu yimenaho amazi ari gukora siporo, kugira ngo agabanyirize ubushyuhe bwinshi umubiri, abone uko akomeza gukora siporo.

Imvune nyinshi zirakira kuko iyo witaweho n'umuntu ubisobanukiwe akagushyiriraho imiti ndetse n'ibipfuko byabugenewe, ntabwo utinda kongera gusubirana ubuzima buzima.

Ushobora kugira ikibazo ku kiganza cyawe cyangwa hakagira ikibazo aho ikiganza n'akaboko bihurira, hari ubuvuzi uhabwa ndetse bakaguhambiriraho na bande kugira ngo hegerane.

Niba uri gukora siporo ukumva hari urugingo rutameze neza, waba uyihagaritse kugira ngo ubanze umenye ikibazo cyabiteye kandi wakumva bikomeye ukajya kwa muganga.

Igihe ukora siporo wibuke no kunywa amazi kuko uba wabize ibyuya byinshi, hanyuma amazi agasohoka mu mubiri wawe ku kigero cyo hejuru rero uba ukeneye kongeramo ayandi.

Ita ku buzima bwawe ukoresha amazi yagenwe kuko umubiri w'umuntu ukenera amazi menshi kugira ngo urusheho gukora neza, kandi bizakurinda n'indwara ziterwa n'imyanda myinshi iba iri mu mubiri yarabuze uko isohoka, iyo utanywa amazi ahagije.

Imipira ikoreshwa mu gukina imikino itandukanye, harimo umupira w'amaguru, ndetse na rugubi, vole, tenisi, n'indi mikino itandukanye.

Amazi ari mu bintu bigize umubiri w'umuntu, agomba kunywebwa kandi hagakurikizwa igipimo bitewe n'ibiro umuntu afite kugira ngo atazanywa menshi na byo ntabwo biba ari byiza.

Gerageza unywe amazi, ku kigero gikwiriye, kuko hari igihe utayanywa, bikakuviramo uburwayi, ugasanga uyategetswe n'abaganga, kandi wari kuba warabikoze mbere.

Amaso y'umuntu ni urugingo rufite umumaro munini cyane, niyo atuma ureba ibindi bintu byose. Agomba kwitabwaho akaba mazima kugira ngo arusheho kugufasha.

Uko umubiri w'umuntu uteye, ntabwo ibice byose bigaragara inyuma, kuko biba bitwikiriwe n'uruhu, hari igihe ugira ikibazo aho kitagaragara inyuma, bigasaba ko ucishwa mu cyuma, hanyuma ifoto igasohoka igaragaza ikibazo ufite.

Imyambaro yabugenewe yo gukorana siporo ndetse n'inkweto, ntabwo ari buri mwenda wose wakwambara ngo ubone uko ukora siporo wisanzuye kimwe n'inkweto hari izabugenewe.

Egera abaganga bakubwire niba uburwayi ufite wemerewe gukora siporo kandi urebe ababihuguriwe kugira ngo utazahura n'utabizi, ahubwo siporo agukoresheje ikongera ikibazo ufite.

Gukora siporo ni byiza ariko ukazirikana no kuba ufite isaha kugira ngo urebe ko igihe usanzwe ukoresha hari indi minota wongeyeho cyangwa se yagabanyutse, ukaba waba wumva n'akaziki ariko kadasakuza.

Imiti itandukanye ikoreshwa ku bantu bagize ikibazo bari muri siporo, hari iyo basigaho cyangwa bakaba bafata n'ibindi bagahambira ahagize ikibazo.

Siporo ni buzima kandi ni urukingo, kuko umuntu uyikora neza, imufasha ibibazo by'umubyibuho ukabije cyangwa kwangirika kw'ingingo kwa hato na hato.

Kora siporo ugorore ingingo zawe zose neza, kugira ngo izagufashe kutarwara imitsi, ndetse n'ubundi bubabare bwataka umubiri nk'uruhande rumwe ugasanga rurababara.

Koresha imbuto zitandukanye kugirango umubiri wawe urusheho kugira imbaraga ndetse no kwirinda indwara, haba amaronji cyangwa inanasi ndetse ntuzibagirwe indimu n'imineke.

Ahatangirwa ubuvuzi kwa muganga, bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ufite hagomba kuba hari urumuri rwinshi kugira ngo niba bari kugukurikirana babe bareba neza aho bari gukora cyangwa aho bari kuvura.

Niba ugize ikibazo mu ivi, ihutire kureba ababishinzwe nk'abaganga bagukurikirane hakiri kare, kuko niba hari ahantu hatinda gukira cyangwa hakangirika cyane ni mu ivi.

Uburwayi bwose ntabwo buvurwa n'imiti wanyoye, hari n'ubuvurwa na siporo, gusa ukegera ababishinzwe, bakakubwira siporo wakora, bitewe n'ikibazo ufite.

Abafite ikibazo cyo kubura ingingo hari ibigo nka Gatagara bikora insimburangingo bigatuma umuntu abasha kugenda bitagoranye nk'uko yaba atarufite.

Siporo ni umuti uvura uburwayi bwinshi ku bayandikiwe n'abaganga kuko baba bazi izo bagomba gukora zijyanye n'ikibazo bafite, kandi inafasha abayikora batarwaye.

Amazi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, igihe uri gukora siporo wibuke no kunywa amazi kandi afasha umubiri gusohokamo imyanda bitagoye.

Kora siporo izakurinda ibibazo bitandukanye byo mu mubiri ndetse byagukururira n'uburwayi, hanyuma bibe nk'urukingo mu mubiri wawe.

Kuruwaruje itanga ubufasha ku bantu bakeneye amaraso ndetse harimo n'abantu bafasha abafite ikibazo cy'uburwayi, bakanahugurirwa uko batanga ubutabazi bw'ibanze.

Siporo igomba gukorwa kuri buri muntu wese ititaye ku myaka yaba afite, kuko bifasha umubiri gukora neza kandi ikibazo cy'uburwayi buterwa no kudakora siporo ntahure nacyo.

Habaho ubwoko bwinshi bwo kuvura, aho umuntu ashobora kuvunika, bakamuhambiriraho bande kugira ngo aho yavunitse habashe kwegerana.

Niba utanywa amazi ntabwo ari byiza, kuko nta kindi kiyasimbura mu mubiri w'umuntu, wibuke yuko afasha n'inzira z'igogora zigakora neza.

Igihe wagize ikibazo ukumva umubiri wawe ntumeze neza cyangwa wavunitse, ntuzafashwe n'umuntu utarabihuguriwe kuko hari ibyo yakangiza kandi hari igihe wari bujye kwa muganga hagakira vuba.

Ibikoresho byifashishwa mu gufasha umuntu wagize ikibazo, ari muri siporo harimo ibihambirirwa ahagize ikibazo nk'ibindi hashobora kukurizaho.

Mu buzima bwawe bwa buri munsi, ujye wibuka kunywa amazi kuko agirira umumaro umubiri wawe cyane, akayungurura imyanda igasohoka kandi buri wese agira igipimo cy'amazi anywa bitewe n'uko angana.

Nukora siporo, ujye wibuka gukoresha ibice byose by'umubiri, kugira ngo amaraso ajye atembera muri ibyo bice byose neza kandi byose bibashe kugororoka hatagize igisigara.

Siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu ariko ukanibuka yuko ugomba gufata n'ibyongera intungamubiri mu mubiri wawe, harimo imboga ndetse n'imbuto, karoti, pome ndetse na oranje.

Koreshwa siporo n'ababisobanukiwe cyangwa n'ababyigiye kugira ngo utazayikoreshwa n'utarabihuguriwe, ugasanga uburwayi wari ufite ahubwo urahuhutse.

Igihe cyose ukora kwa muganga uba ugomba kurinda intoki zawe cyangwa umunwa n'amazuru kugira ngo hatagira ubundi burwayi nawe bukwataka, kuko haba haje abantu benshi batandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuko ifasha umubiri w'umuntu gukomeza kugubwa neza, kandi ikarinda no gusaza imburagihe ndetse n'uburwayi buzanwa n'uko utakoze siporo.

Iyo ukora siporo, umubiri uba watakaje amazi menshi, ugomba kubizirikana, ukanywa amazi meza kugira ngo abashe kugira ibyo atunganya mu mubiri, kandi ikigero cyayo gikomeze kuba mu mubiri gikwiriye.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo imikasi y'ubwoko butandukanye, ndetse n'udupima umuvuduko w'amaraso, n'utwahambira ahantu hagize imvune kugira ngo hadakomeza kunyeganyega.

Habaho imiryango y'abiyeguriye Imana, ifasha abana badafite ubushobozi cyangwa se babuze ababitaho, hanyuma bakabaha uburere ndetse n'uburezi.

Siporo zikorwa zitandukanye harimo n'izo gukina umupira, zifasha abantu benshi kandi icyarimwe hanyuma ubuzima bw'abazikora bukarushaho kuzira umuze.

Hari igihe umuntu avunika, ugasanga yegereye undi ngo amukandire bikamuviramo kuba imvune ye yakiyongera, egera ababisobanukiwe bagufashe kugira ngo ukire vuba.

Igikakarubamba kigira akamaro kenshi kuko hari aho kivangwa mu mavuta yo kwisiga cyangwa kigakorwamo ibinini, hari naho gikorwamo amasabune yo koga n'ayo gufurisha imyenda.

Tegura icyayi ariko wibuke gukoresha tangawizi, indimu ndetse na teyi, hanyuma unywe icyayi kandi ube unyweye n'umuti.

Ibimera bigira umumaro mwinshi kuko birumishwa bigakorwamo imiti, yaba amababi yabyo cyangwa imbuto ndetse hari n'imiti ikorwa mu ndabyo zabyo.

Baho neza urengera ubuzima bwawe, ubuvura wifashishije ibimera cyangwa izindi mbuto zikwegereye, higanjemo indimu ndetse n'igitunguru.

Igikakarubamba kivangwa n'inkeri n'ibindi bintu bitandukanye, hanyuma bigakorwamo amavuta cyangwa hagakorwamo n'imiti ndetse hari n'abakoramo amasabune.

Imiti itandukanye ikoreshwa, haba iya mavuta cyangwa n'iyindi y'ibibabi, ikumishwa, ikabikwa kugira ngo imare igihe kirekire, uyikeneye ajye ayibona ayikoreshe bitamugoye.

Imiti itangirwa kwa muganga, haba hariho igipimo cyayo ndetse uyifashe bamubwira n'uburyo agomba kuyinywamo, kugira ngo adafata myinshi ikaba yamwangiza.

Ibimera gakondo na byo bitunganywamo ibinini bivura indwara. Ntabwo ari ngombwa ko bikoreshwa bitatunganyijwe n'iyo bitunganyijwe havamo ibinini bigafasha abarwayi.

Iyo ugiye gukoresha umuti gakondo nk'ibyatsi cyangwa imbuto, biba byiza iyo ubisekuye mu isekuru kugira ngo bikore neza kuko iyo bisekuye bituma bitubuka kandi babishyira mu mazi bigakora vuba.

Igikakarubamba gikorwamo ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga, cyangwa amasabune, kigomba kwitabwaho, ndetse abantu bakitabira no kugihinga kuko kirakenerwa cyane.

Tangawizi ni umuti ukoreshwa mu kugabanya ibinure birii mu mubiri ndetse uvura n'inkorora n'ibicurane, iyo ukoreshejwe neza.

Ubuvuzi gakondo na bwo burakoreshwa kandi bugatanga umusaruro, kuko hari imiti baba bafite igirira umumaro abaje babagana.

Kapusine ni umuti ukoreshwa ukavura abantu, baba abana cyangwa abakuze, kuko uvura inkorora ndetse n'ibicurane, kandi uvura n'amayimfekisiyo.

Ibimera byinshi biratunganywa bigakorwamo ifu cyangwa amazi akabikwa mu macupa kugira ngo ubikeneye abigure abone uko abikoresha bitamugoye.

Aho utuye ntuzabure igiti cy'umuravumba, kuko cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, harimo inzoka, inkorora ndetse n'abafite ikibazo cyo kurwara umutwe barawukoresha.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu harimo n'iya gakondo, yumishwa, ikabikwa kandi igakoreshwa mu gihe kirekire.

Ibimera ni ingenzi kandi ni ingirakamaro, mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bitunganywamo imiti ifasha abantu igihe barwaye ndetse hagakorwamo n'amavuta yo kwisiga.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa ibimera bitandukanye, cyane ibyameze mu mashyamba, harimo n'igiti cyitwa cederera na cyo gikorwamo imiti ivura abantu.

Ibimera byose tubona biba bifite umumaro n'ubwo bamwe baba batabizi, ariko ababisobanukiwe bakoramo imiti bakayiha abantu barwaye kandi ikabagirira umumaro.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abavuzi gakondo, harimo agacuma, imbehe, urweso, agatebe k'akanyarwanda n'ibindi byinshi bitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho kugenda neza, harimo n'amavuta ya elayo ndetse n'imbuto kugira ngo byose byunganiranire umubiri gukora neza.

Ibimera birumishwa bikabikwa kugira ngo bijye bikoreshwa nk'imiti kandi bibikwe igihe kirekire, kuko iyo ari bibisi byangirika vuba. Rero ababishoboye barabikora bigatuma batanga imiti ku barwayi.

Igiti cyitwa umuravumba, kiba ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Kigira umumaro mwinshi kuko kivura inzoka ndetse n'inkorora, haba ku matungo ndetse no ku bantu.

Mu kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, imiti igomba kugenzurwa n'ikigo kibishinzwe kugira ngo bitazagira ingaruka ku bayikoresha, igihe itujuje ubuziranenge.

Umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zirimo inkorora, ibicurane, inzoka n'ibindi byinshi, kuko uvangwa n'ibindi bimera bigatanga umusaruro.

Mu buvuzi gakondo ntabwo hakoreshwa ibiti gusa cyangwa amababi, hari n'aho basoroma indabyo cyangwa imbuto z'ibyo bihingwa cyangwa ibyo bimera, akaba ari byo bivangwa n'iyindi miti na byo bikavura.

Igiti kizwi nk'umuravumba kiratunganywa kikavamo ibinini byafasha abantu, ndetse n'ubishoboye agikoresha kikiri kibisi, agakoresha amababi yacyo.

Igikakarubamba ni ikimera gikorwamo imiti itandukanye, yaba iyifasha uruhu cyangwa se n'abafite imisatsi icika, na yo bakabakoreramo amavuta.

Koresha isabune ikozwe muri voka cyangwa igikakarubamba, waba ugiye kuyoga mu maso cyangwa no ku mubiri, kuko iba irimo intungamubiri zihagije.

Ibimera birimo deyi biratunganywa, bigakorwamo ibinini, cyangwa imiti y'amazi, izajya ivura abantu, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Ibiti ndetse n'ibyatsi bindi tubona bibamo imiti, kuko ababisobanukiwe bakoramo imiti bakavura indwara zitandukanye ku bantu babagannye.

Ibimera bitandukanye harimo n'ibiti umuntu ushobora kugira ngo ni imitako cyangwa bizana umwuka mwiza gusa, ariko biranatunganywa bikavamo imiti ifasha abantu.

Hari ibimera byinshi abantu batazi y'uko ari imiti. Nk'igiti cyitwa umusave abenshi bakibazamo imbaho cyangwa bakacyubakisha, ariko hakorwamo n'imiti ivura abantu.

Igiti cyitwa Umuhengeri nacyo gikorwamo umuti kandi no ku muntu wakomeretse avuguta amababi yacyo agasiga aho yakomeretse bigatuma hakira vuba.

Ubuvuzi gakondo na bwo burakora kandi bugafasha ababukoresheje igihe bakurikije amabwiriza, bifashisha tangawizi, tungurusumu ndetse n'ibindi byatsi karemano bitandukanye.

Bungabunga umubiri wawe ndetse n'uw'abawe, ukoresha imbuto z'ubwoko butandukanye. Kugira ngo wirinde indwara nabo uzibarinde. Amaronge, indimu, pome biri mu bintu bikungahayeho kuri vitamine.

Imiti myinshi ikorwa, hari ivangwamo ubuki kugira ngo ubukana bw'ubusharire bwayo bugabanyuke kandi n'ubuki na bwo, ni umuti uvura indwara nyinshi.

Ibimera si ibituzanira umwuka mwiza gusa ahubwo bibamo n'imiti myinshi ivura uburwayi butandukanye, ku babizi neza barayikoresha bakavura na bagenzi babo.

Hinga ibihingwa bitandukanye, wibuke no guhinga ibiti bikorwamo imiti ivura kuko uburwayi bwo ntibuteguza kandi abantu benshi barayikenera.

Umwicanzoka umuti uvura indwara nyinshi ku bana nk'uko izina ryayo witwa, ufasha abana kutarwaragurika inzoka ndetse n'igihe bazirwaye ubafasha gukira.

Ubuvuzi bushingiye ku bimera, na bwo burakoreshwa kandi bakagirira umumaro ababukoresheje. Harimo igikakarubamba ndetse na teyi, n'ibindi bimera bitandukanye.

Imiti myinshi ikorwa hifashishwa ibimera. Hari ikorwa, hafashwe imbuto z'ibimera cyangwa se indabyo zabyo, hari n'ubwo bashishura uruhu rw'ibiti bagakoramo umuti.

Ibimera bitandukanye bikoreshwa mu kuvura abantu, aho biba biri mu mashyamba abantu babizi bajya kubishaka hanyuma bakabikoramo imiti.

Aho uzabona igikakarubamba uzamenye ko ubonye umuti, kandi uvura ibintu byinshi bitandukanye, wagikoresha mu musatsi wawe, cyangwa ukagura icyakozwemo amavuta yo kwisiga, ndetse n'ayo gusiga mu mutwe.

Igiti cy'inturusu gifite amababi y'umweru, kiravura kuko iyo gitwitswemo amakara ifu yayo iyungurura amaraso cyangwa n'ibibabi byabyo bikifashishwa mu kuvura inkorora.

Umushinga w'ubuhinzi, watesha imbere abantu wo guhinga ibikakarubamba ahantu hagari, hanyuma abakeneye gukoramo imiti bakabona aho bazajya babikura.

Hamagara nimero kabiri gatanu, zeru, karindwi, umunani, icyenda, icyenda, zeru, kane, icyenda, icyenda, icyenda.

Igitoki ntabwo kiribwa gusa ngo bibe bihagije, gikorwamo n'imiti gakondo itandukanye, hamwe n'ubunyobwa, n'igisura n'ibindi byatsi biterwa bigakorwamo imiti.

Ibyatsi byinshi tubona ni imiti, hari n'ibyo dutera mu busitani bw'aho dutuye ariko tutazi akamaro kabyo, gusa hari ababisobanukiwe babitunganyamo imiti ifasha abantu.

Amavuta akorwa mu gikakarubamba, hari n'ayavangwamo inkeri ndetse hagakorwamo na shampo yo koza mu mutwe kugira ngo umusatsi urusheho kugira ireme ureke no gucika.

Ibitovu bikorwamo imiti ivura indwara nyinshi kuko nko ku babyeyi batwite, iyo bagira isesemi barabikoresha bikagabanya isesemi kugira ngo babashe gufata amafunguro.

Amibe ni indwara itinda kugaragara kuko yihisha mu mubiri w'umuntu ikagaragara itinze, gusa hari umuti uyivura kandi ukakubera igisubizo ntuzongere kongera kuyirwara ukundi.

Inzuki zigira akamaro kuko zitanga ubuki hanyuma nabwo bugatunganywamo imiti ifasha abantu igihe barwaye ndetse kandi hakorwamo n'imiti itunganya inzira z'igogora.

Igikakarubamba ndetse n'imyembe, bihurizwa hamwe bigatunganywamo amavuta yo kwisiga kugira ngo uruhu rw'umuntu rurusheho gusa neza.

Urwaye bakaguha imiti nk'ibinini jya uyinywa ukurikije amabwiriza baguhaye, utazayinywa nabi ugasanga indwara bakuvuye ntikize bigusabye gusubirayo gufata iyindi.

Tunganya aho utuye ku buryo bugezweho kandi uhashyire imiti gakondo izajya igufasha kuvura abantu utiriwe ujya mu mashyamba, kuko ushobora no gusanga aho wayikuraga harahiye cyangwa barayitemye.

Igiti cyitwa umuravumba, gikoreshwa mu kuvura abantu nk'igihe barwaye inkorora cyangwa n'amatungo na yo iyo arwaye bayavurisha umuravumba.

Ahari ibiti haba hagomba kongerwamo n'ibindi kuko hari igihe biba bihamaze igihe byarashaje, bisimbuzwa ibindi kugira ngo umwuka mwiza ukomeze ukwirakwire mu bantu.

Ubuki bukoreshwa mu bintu byinshi kandi bukorwamo n'imiti myinshi itandukanye kuko buvura inkorora, kandi n'ahantu hari ububabare ku mubiri usigaho umushongi wabwo hagakira.